Icyapa gisa umweru cyandikishije inyuguti zisa umutuku, n'ubururu, n'umukara, kiriho abantu babiri bambaye imyenda y'umukara bambaye imyenda y'ubururu, inyuma y'abantu hariho imodoka isa umutuku, hasi ku cyapa, hari akantu kariho gasa umukara.

Umugabo uri kumwenyura, afashe icyapa gisa ubururu, hariho utuntu dusa umweru. Yambaye umupira usa ubururu, yambaye isaha isa umukara, inyuma ye hari icyapa gisa ubururu, cyandikishije mu nyuguti zisa umweru. Icyo cyapa kigiye kiriho utubara dusa umuhondo n'umweru. Inyuma y'icyapa harasa umweru.

Icyapa gisa umweru cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu n'umukara, hirya, hirya ku cyapa harimo umugabo uri mu bigori wambaye ikoti risa umukara n'ingofero bisa umweru. Uyu mugabo biragaragara ko afite nk'ikintu ari kwamamariza.

Abagabo babiri harimo umwe yamwenyura cyane bari gusuhuzanya, umwe yambaye ikoti risa umukara n'ishati y'umweru, n'undi yambaye ikoti risa umukara. Hirya yabo hari urukuta rusa umweru, inyuma yabo hari umugore wambaye imyenda isa umweru afite n'misatsi isa umukara. Imbere yabo hari icyapa gisa ubururu cyandikishije inyuguti zisa oranje n'umweru.

Icyapa gisa umweru cyandikishijeho inyuguti zisa ubururu n'umukara, hejuru y'iki cyapa hariho umukobwa ufashe umutaka usa umutuku n'umweru, hejuru y'uyu mutaka hariho igicu gisa ubururu, hasi hari ibiti bisa icyatsi.

Umugabo ufite icyapa cy'ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru yambaye umupira w'ubururu arimo aramwenyura cyane, inyuma ye hari icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru harimo n'umuhondo.

Icyapa kinini cyane gisa ubururu gifashwe n'utwuma dusa icyatsi, hirya y'iki cyapa hari inyubako nini cyane, ifite ibara risa umutuku n'ubururu n'umweru, hasi hari ikindi cyapa gisa umukara gifite ibara risa umutuku n'umweru.

Ikoti nziza cyane isa umweru karovate isa umweru ishati isa umweru inyuma y'iri koti hariho urukuta rusa umweru hejuru hari icyapa gisa umukara no hasi hari icyapa gisa umukara.

Iduka ririmo imyenda itandukanye isa umukara, ubururu n'umweru, hejuru y'iri duka hariho icyapa gisa umukara no hasi hari icyapa gisa umukara, hasi mu iduka harimo amakaro asa umweru.

Umuhanda wumukara ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru, hirya y'uwo muhanda hari imyenda ifite amabara atandukanye, hari uwusa umweru n'umukara, hari n'uwusa umweru hari n'uwusa umuhondo. Imbere y'iyi myenda hariho umugabo ufite agakapu uri kuza nko kuhahira. Hirya y'iyi myenda hari igiti kinini cyane gisa icyatsi hariho n'inyubako ifite ibara ry'ubururu yandikishijeho inyuguti isa umuhondo.

Iduka nziza cyane irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda y'imikara, imyeru, umutuku, hasi mu iryo duka harimo amakaro y'umweru, hejuru hari parafo y'umweru y'umukara.

Abagabo batatu bambaye amashati asa umweru, bafashe akapa gasa umweru, kariho inyuguti zisa umukara n'umutuku. Bahagaze ku modoka nziza cyane, isa umukara n'umweru. Hirya y'imodoka, hari umutaka usa umweru, wandikishijeho inyuguti zisa umukara.

Abagabo babiri bafite icyapa cyandikisha inyuguti zisa umukara n'u mutuku, imbande yabagabo hari imodoka nziza cyane isa umweru mu umukara, inyuma y'imodoka hari inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru yandikishije amagambo asa ubururu.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umweru harimo n'umukara harimo n'umutuku inyuma y'iyo modoka hari inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umweru n'umukara, hejuru yaho hariho igihu cyu'ubururu biragaragara ko ari nko ku manywa.

Imodoka nziza cyane ifite amabarasa umweru n'umukara. Imbere y'iyimodoka hari akapa gasa umweru, kandikishishe inyuguti zisa umukara. Inyuma yaho hari ikindi kimodoka kinini gisa umutuku. Hirya y'izi modoka hari inyubako nini cyane isize irangi ry'ubururu n'umweru.

Imodoka yamabara y'umukara, umweru, umuhondo, umutuku n'inyubako ifite ibirahuri by'umukara n'umweru.

Abagabo babiri bafite icyapa gisa umweru, cyandikishije inyuguti zisa umukara n'ubururu, umugabo umwe afite igikapu gisa umutuku, inyuma yabo bagabo hari imodoka isa umweru, inyuma y'imodoka hari umutaka usa umweru, ufite amagambo yandikishijwe inyuguti isa umukara.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara, hejuru y'iyo modoka hari ibyapa bitatu bifite amabara atandukanye, umutuku, umweru n'icyatsi. Ibyo byapa byandikishijwemo amagambo y'umweru, hari igifite amagambo y'umukara. Hirya y'iyo modoka hari ibiti byiza cyane by'icyatsi.

Imodoka isa umukara iparitse ku muhanda w'umukara imbere y'iyi modoka hariho akapaka gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umweru hirya y'iyi modoka hari inyubako nziza cyane, hari n'ibiti bisa icyatsi. Hejuru hari icyapa gisa umweru, n'umutuku, n'umweru byandikishije mu nyuguti isa umweru.

umugabo wambaye imyenda isa ubururu ishati isa ubururu n'umukara imbere ye hariho inyubako ifite ibara risa umutuku imbereyubako harimo umugabo wambaye umupira usa umweru uyu mugabo wambaye imyenda yubururu ateruye mwana wambaye umupira usa umweru

Umuhanda w'igitaka uri kugendamo umumotari wambaye kasike isa umutuku n'ijire isa umutuku ahetse umugore wambaye umupira usa icyatsi n'ingofero isa umutuku. Hirya y'abo hari ubusitani bwiza cyane n'inyubako nini cyane, hejuru hari kugendaho insinga zijyana umuriro hirya no hino, imbere y'inyubako hari icyapa gisa ubururu cyandikishije inyuguti zisa umweru.

Umuhanda w'umukara, ushoyemo umurongo usa umuhondo, haparitsemo imodoka nziza cyane isa umukara n'umweru, imbere y'iyo imodoka hari akapa gasa umweru kanditse mu nyuguti zisa umukara, hejuru hari n'akandi kapa gasa icyatsi, kanditse mu nyuguti zisa umukara, hari n'akandi kapa gasa ubururu kanditse mu nyuguti zisa umweru, hari n'akandi kapa gasa umutuku kanditse mu nyuguti zisa umweru, hirya hari n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Imodoka nziza cyane isa umukara iriho icyapa gisa umweru, cyandikishijweho amagambo asa umukara, inyuma y'iyi modoka hariho urukuta rusa umweru, ruriho ibyuma bisa ubururu, n'itara risa umweru, hirya y'aho hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Imodoka nziza cyane zitandukanye zifite ibara ry'umukara n'umweru. Harimo ifite ibara ry'umukara n'umutuku, hirya y'izi modoka hari urukuta rusa umweru ruriho icyapa gisa ubururu. Imbere y'izi modoka hari ameza asa shokora, ateretseho mudasobwa y'umweru.

Imodoka nziza cyane ifite amapine asa umukara, isa umweru imbere y'iyi modoka hari akapa gasa umweru kandidikishije mu nyuguti zisa umukara, inyuma y'iyi modoka hari ubusitani bwinshi cyane busa icyatsi.

Umugabo ahagaze ku modoka isa umukara n'umweru, yambaye ingofero isa iroza yambaye n'agashati gaciyemo umuturongo gasa i roza, yambayeho n'agasengeri gasa umukara n'ipantaro isa umukara, biragaragara ko iyi modoka yayitsindiye, inyuma y'iyi modoka hari urukuta rusa shokora.

Aha hari imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara, iruhande hariyo uruzitiro rw'umuhondo n'umweru, hariho n'ibiti by'icyatsi.

Abagabo babiri bafite icyapa cyandikikije inyuguti zisa umukara n'umutuku, inyuma yabo hari imodoka nini cyane isa shokora. inyuma y'iyimodoka hari indi modoka nini cyane isa umweru, hirya y'izi modoka hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Abantu batandukanye, abagabo babiri n'abagore babiri, umugabo umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru karuvati y'umukara n'ikoti ry'umukara, imbere yabo hari mudasobwa nini cyane isa umweru n'ubururu, inyuma yaho hari urukuta rusa umweru n'ubururu.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo: amata, harimo icyayi, harimo ji, hariho abantu babiri. Hariho umukobwa wicaye ku ntebe isa ubururu, imbere ye hari ameza asa shokora. Hicaye n'umugore, imbere ye hariho ameza asa umukara, n'umweru afite terefoni ari kuyirebamo. Hasi hariho amakaro asa umweru, hejuru hariho purafo zisa na shokora.

Icyapa gisa ubururu cyandikishije mu nyuguti zisa umweru n'icyatsi, hariho akajerekani gasa umweru, akadobo gasa umweru n'icupa rinini cyane risa ubururu.

Umuntu ufite ijage isa icyatsi, umubirikira usa ubururu, akajerekani gasa umweru, hirya ye hari undi muntu wambaye ishati isa umutuku uri mu idirishya, uyu muntu bigaragare ko ari umucuruzi w'amata, uriya wundi agiye kugura amata, inyuma ye hariho igicuba gisa umweru.

Inyubako nziza cyane, ifite irangi risa umweru, urugi rusa ubururu, hejuru y'urugi hari icyapa gisa ubururu cyandikishije ikinyuguti zisa umweru, n'icyatsi, hejuru y'urugi hariho amakaro asa umweru.

Urupapuro rw'umweru rufite amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku n'iry'umukara n'ikimenyetso gifite ibara ry'umutuku.

Inyubako ifite ibara risa ubururu, kuri iyo nyubako hejuru hari icyapa gisa umweru cyandikishijwe amagambo asa umukara n'umutuku n'ubururu, mo imbere mu nyubako harimo ibara risa umuhondo, biragaragara ko ari ku manywa.

Icyapa gisa ubururu n'umuhondo, cyandikishije inyuguti zisa umutuku n'umweru; hasi y'iki cyapa hari ikindi cyapa gisa umuhondo cyandikishije inyuguti zisa umukarah. Hagati y'ibi byapa hariho umuntu wambaye imyenda isa umukara.

Aha ni mu ruganiriro harimo ameza afite ibara ry'umuhondo n'umukara n'intebe z'umuhondo hasi hari amakaro afite ibara ry'umweru.

Intebe z'umukara, ameza y'umweru, intebe z'umweru, ameza ateretseho icyapa gisa umweru n'umukara, hirya y'ameza hari andi meza asa umukara, hirya hari intebe zisa umweru n'urukuta rusa umweru.

Ameza asa shokora, hirya hari intebe zo bicaraho zisa umweru zegamirwa, imbere y'aya meza hari amakaro yijimye, imbere y'amakaro hari inyubako nziza cyane ifite ibara ry'icyatsi n'umweru. Aho aya meza n'intebe biteretse hari amatafari yijimye.

Intebe zisa ubururu zifite imisego isa umweru, ku musego handikishijeho inyuguti isa umuhondo n'umukara, hirya hariho igikuta gisa umweru, imbere y'izi ntebe hariho ameza asa shokora ateretse itara ryiza cyane, ateretseho n'itara risa umutuku, hirya yaho hariho n'igishushanyo cyiza cyane.

Ameza asa umweru hejuru harasa umweru n'umukara hasi y'ameza hariho ibyuma bisa umuhondo hirya hari intebe nziza cyane zisa umukara zifite ibyuma bisa umweru hirya yaho hari n'andi madirishya asa umweru hariho n'icyapa gisa shokora.

Amazi asa ubururu, imbere ya mazi hari ameza hari igitambaro cy'umweru hariho n'intebe za shokora, hakurya y'aya meza hariho inyubako nziza cyane n'ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, iyi nyubako ifite ibara risa umweru, n'umuhondo, n'inzugi zisa umukara n'amadirishya asa umweru.

Inyubako nziza cyane, ifite ibara risa umuhondo n'umweru. Imbere yiyi nyubako hari ubusitani bwiza cyane, iyi nyubako yubakishijwe n'amabati asa umutuku, hejuru hari ibicu bisa ubururu n'umweru, biragaragara ko ari ku manywa. Hegereyeho n'umuhanda usa umukara, ukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru.

Amazi asa ubururu , ruguru y'amazi hari ameza asa umweru akikijwe ni ntebe zisa shokora, hejuru hariho ibara risa shokora hirya hariho n'amatara ari kwaka umuhondo, hasi hari amakaro asa umweru.

Hari inyubako ifite amatara y'umuhondo hariho indabyo z'icyatsi, inyuma hariho ibiti byi'cyatsi harimo n'intebe z'umweru n'umukara.

Icyapa gisa ubururu, umuhondo, umweru cyanikishijwemo inyuguti zisa ubururu, umukara n'umweru iki cyapa ahantu kiri biragaragara ko ari nijoro.

Abantu babiri umwe yambaye imyenda isa umukara yicaye mu ntebe isa umweru imbere ye hari ameza asa umweru mu mpande hasa shokora hariho undi muntu wambaye imyenda isa icyatsi yicaye ku ntebe isa shokora imbere ye hari mudasobwa.

Umuhanda wa kaburimbo, utangirije amabara asa umukara n'umweru, hariho ubusitani busa icyatsi, hirya y'ubusitani hari umuhanda, uciyemo uturongo tw'umweru n'umukara. Hari kugendamo imodoka y'umukara na moto, hakurya hari imodoka iparitse, n'inyubako nini cyane, ifite ibara risa umweru.

Inyubako nziza cyane hasi ifite amakarasa umweru, hirya yiyi nyubako hari ibirahure bisa umweru impanderi y'ibirahure hari icyapa gisa umukara n'umweru cyanyandikishije mu nyuguti zisa umweru mu imbere mu nzu harimo akabati ka shokora n'intebe isa ubururu.

Umudamu wambaye imyenda isa ubururu, ipantaro yumukara, ijipo isa icyatsi, ingofero isa umuhondo. Inyuma ye hari ipoto Isa Icyatsi hirya ye hari imodoka isa umuhondo, hirya y'imodoka hari inyubako isa umuhondo ifite ibirahuri by'umukara, biragaragara ko ari ku manywa.

Umugabo urimo kumwenyura cyane biragaragara ko yishimye cyane pe, yambaye ishati y'ubururu inyuma ye hari icyapa cy'umweru cyandikishijwe amagambo y'umukara.

Abantu batatu, umwe yambaye ishati isa umweru, undi yambaye umupira usa ubururu, undi yambaye umupira usa umweru n'igitambaro gisa ubururu, imbere yabo hari ameza asa umukara, ariho imbapuro zisa umweru na mudasobwa isa umukara.

Iduka ririmo ibicuruza bitandukanye, harimo intoryi, harimo puwavuro, harimo inyanya, harimo ibitoki, harimo ibitunguru, harimo n'ibindi bicuruza bitandukanye, bifite amabara asa umuhondo, icyatsi, umutuku n'umukara.

Isoko ririmo ibicuruza bitandukanye. Harimo ibitenge, harimo amashuka, harimo kuvureri, harimo udusharupe, harimo imipira y'abakinnyi. Harimo abagore bafite imashini zisa shokora, hejuru hasa umukara; barimo baradoda. Harimo umugabo wicaye imbere yabo, biragaragara ko yaje kudodesha nk'umwenda.

Abantu batatu umwe afite akabase gasa ubururu karimo imineke. Undi afite ibase nini y'umukara irimo imineke, undi afite ibase y'umutuku irimo avoka, aba bantu biragaragara ko barimo gucuruza. Undi arahagaze yambaye umupira w'ubururu, biragaragara ko uyu muntu aje guhaha nk'imineke cyangwa avoka.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amaronji, harimo imineke, harimo intoryi, harimo n'indimu. Hahagazeho umugabo, wambaye umupira usa umutuku, imbere ye hari umukobwa uri kumuha pome, umukobwa yambaye umupira usa ubururu, yamwenyuye cyane yamwishimiye.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye harimo inyanya, urusenda, ifu ,ibigori n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu mudamu biragaragara ko arimo guhaha, yambaye igitambaro gisa umukara, ishati isa umukara iririmo utuntu tw'umweru.

Isoko rininirimo ibicuruza bitandukanye, harimo intoryi, harimo urusenda, harimo tangawizi, harimo karoti, harimo inyanya, harimo ibitunguru, harimo n'abantu benshi baje guhaha, hari umugore uhagaze afite agafuka mu ntoki, yambaye ikoti risa ubururu n'umweru n'umutuku.

Isoko ririmo imyenda itandukanye harimo imyenda isa ubururu, umukara, umweru, umutuku, imbere yaho yimyenda hariho umudamu uhagaze biragaragara ko ari guhaha undi mudamu wambaye ishati isa icyatsi n'ijiri risa umuhondo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hari n'inyanya, harimo intoryi, harimo karoti, harimo ibitunguru, harimo pavuro, hagazeho n'umugabo wambaye imyenda isa icyatsi, hejuru y'iri soko hariho akapa gasa umweru kandikisheje mu nyuguti zisa umweru.

Isoko ririmo ibicuruza bitandukanye harimo ibitunguru hari n'inyanya hari n'intoryi harimo urusenda harimo n'abantu benshi batandukanye, hari umugore uteruye akabasi karimo inyanya z'umutuku akabasi gasa ubururu biragaragara ko imbere ye hari umukiriya ufite amvirope isa shokora agiye kuzimusukiramo, hariho n'ibasi isa umukara n'isa icyatsi.

Abantu benshi cyane batandukanye, inyuma y'abantu hari inyubako nziza cyane, ifite ibara risa ubururu, imbere y'iyi nyubako hari icyapa gisa umuhondo cyanditse mu nyuguti zisa ubururu.

Aha hari imodoka ifite ibara ry'umukara iriho icyapa cya emutiyeni ifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'umweru iruhande hari icupa rifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umutaka usa umuhondo uhagazeho abantu benshi cyane, hirya y'uyu mutaka hari undi mutaka usa ubururu, wandikishijejweho inyuguti isa umweru, hahagaze umugabo wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru n'undi wambaye umupira usa icyatsi n'umbaye umupira w'umuhondo n'uwambaye umupira usa ubururu, biragaragara ko hano baje kuhafatira ibijyanye na emutiyeni.

Icyapa gisa umuhondo cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu, hasi hasa umukara no hejuru hagasa umukara. Hirya yaho hari ibiti byiza cyane bisa icyatsi, hasi hariho n'iradio isa umukara, hano biragaragara yuko hari gukorerwa ibijyanye na MTN.

Icyapa cya mtn gifite ibara ry'umuhondo n'umukara n'umweru ,mudasobwa y'umukara n'umweru ameza y'umukara.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umuhondo n'ubururu, hahagazeho abagabo bane bambaye imipira isa umuhondo n'umukara, undi yambaye umupira w'umweru uriho n'umuhondo, yambaye n'inkweto zisa umweru, inyuma yuwo mugabo hari umugore wambaye itaburiya isa ubururu n'agapira gasa umweru, bahagaze ku muhanda w'igitaka.

Abantu batandukanye bahagaze ku kazu gafite icyapa cya mtn biragaragara ko baje kubikura no kubitsa cyangwa kugura amayinite hariho umugabo wambaye ishati isa n'ubururu n'ipantaro y'umukara hirya y'akazu hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hariho n'umugore wambaye imyenda isa yambaye n'agakapu.

Inkweto nziza cyane z'umweru, ziri ahantu heza cyane h'umweru n'umukara, inyuma y'izo nkweto hari icyapa cy'umukara cyane, cyandikishijweho amagambo y'umweru n'icyatsi.

Umuhanda w'umukara uciyeho uturongo dusa umweru, haparitseye imodoka zisa umukara n'umweru, izi modoka hejuru hariho icyapa gisa umuhondo cyandikisheje inyuguti zisa umweru, hejuru y'imodoka hariho inyubako nziza cyane ifite ibara risa umweru n'icyatsi.

Umugabo ufite ingofero isa icyatsi, umupira usa umukara, akabogise gasa umweru ari gushyira mu kindi kibogisi gisa icyatsi, uyu muntu biragaragara ko ari umumotari kuko ibyo afite ari kubipakira kuri moto.

Abamotari bane umwe, babiri bambaye ingofero zisa umukara, undi yambaye ingofero isa umutuku. Bahetse ibibogisi bifite ibara risa umutuku. Imbere yabo hari urukuta rusa umuhondo, muri urwo rukuta hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Abamotari bane bambaye imyenda i ingofero imwe yambaye ingofero y'umweru undi yambaye yicyatsi yambaye'umukara bambaye imyenda isa umutuku bahetse ibibuki bisa umukara n'umweru byananikijevuyeho amagambo y'umukara harimo n'umutuku imbere yabo hari ishyamba ryiza cyane risa icyatsi.

Umugabo mwiza cyane wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye harimo n'umutuku, inyuma ye hari icyapa cyandikishijweho amagambo y'umweru n'icyatsi n'ubururu, inyuma yayo magambo hari inyubako nziza cyane irimo intebe z'icyatsi n'umukara.

Umugabo wambaye ishati isa icyatsi n'ipantaro isa ubururu n'inkweto zisa umukara n'umweru, yambaye n'ingofero isa icyatsi, imbere ye hari moto ifite ibara risa umuhondo n'umutuku, moto iteretseho akabogisi gasa icyatsi, hasi hari umuhanda ufite amabuye asa umukara.

Ubutaka bwiza cyane busa umutuku, hirya y'ubu butaka hariho inyubako ifite amabati asa umukara n'indi ifite amabati asa umutuku. Hirya y'iyi nyubako hariho ibiti byiza cyane. Hejuru hari ibihu bisa umweru n'ubururu biragaragara ko ari nko ku manywa.

Igitanda kiza cyane gisa shokora gifite amashuka asa umukara, imisego isa umukara, na nyuma y'iki gitandaro hari urukuta rusa umweru, hejuru y'iki gitanda hari akapa gatoya kandikishijwe inyuguti zisa umukara.

Aha hari inyubako ifite ibara ry'umweru n'umukara, hasi hari akantu karimo ururabyo rugiye gusa umutuku gasa umukara.

Abantu babiri umugore n'umugabo, inyuma y'abantu hari urukuta rusa umweru imbere yabo hari intebe nziza cyane zisa shokora ameza asa umweru, iruhande hari indi meza isa umukara. N'indi meza isa umukara.

Inyubako isize irangi risa umweru, inzugi zikaba zisa umukara, amadirishya akaba asa umukara. Imbere y'iyi nyubako hariho ubusitani busa icyatsi, impande y'iyi nyubako hari amakaro asa umweru.

Aha hari ubusitani bw'icyatsi, iruhande hari ibiti by'icyatsi, inyubako ifite amabara y'umukara, umweru, umuhondo

Inyubako nziza cyane iteye irange ry'umweru, ifite amadirishya y'umweru, ibirahuri n'umukara, hejuru ifite amabati asa umutuku, mo imbere mu nzu, harimo akabati gasa shokora n'umweru.

Icyapa kinini cyane gisa umweru, kirimo umunara usa umutuku, inyubako nini cyane isa umukara n'umweru, n'indi nyubako ntoya isa umukara, ifite irangi risa umweru, iki cyapa kirimo umuhanda usa umukara n'umweru.

Umuhanda w'igitaka, ruguru y'umuhanda hari inyubako nziza cyane ifite igipangu gisa umuhondo n'umweru n'umukara. Hariho ipoto risa umweru, hariho insinga zisa umukara ziri kujyana umuriro hirya no hino hatandukanye. Hasi hariho amagambo yandikishije mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umweru, hariho ibyuma bisa umukara, hasi kuri iyi nyubako hariho parikingi isa shokora n'indabyo zisa icyatsi, hejuru kuri iyi nyubako hariho igihu cy'ubururu n'umweru. Biragaragara ko ari nko ku manywa.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru, imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hejuru y'iyi nyubako hari amagambo yandikishijwe ibara risa shokora, hejuru hari ibara risa ubururu.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umweru ifite n'amakaro asa umweru, hejuru y'iyi nyubako hariho ibigega bisa umukara, hejuru y'ibi bigega hari ibicu bisa umweru, imbere y'iyi nyubako hariho akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hirya y'aho hari inyubako nziza cyane ifite amabati asa umutuku, imbere y'iyo nyubako hari urukuta rusa shokora n'urundi rusa umweru n'umukara.

Intebe zisa shakora ziriho imisego isa umukara, ameza asa shokora, hasi hari amakaro asa umweru, inyuma y'izi ntebe hari urukuta rusa umweru, hejuru hariho icyapa cyandikishijwe inyuguti zisa umukara, no hasi hari akapa gatoya gasa umweru kandikishije inyuguti zisa umukara.

Inyubako ifite ibara risa umweru, ifite inzugi zisa shokora, ifite amakaro asa umweru, biragaragara ko bwije, hejuru y'iyi nyubako hari icyapa gisa icyatsi cyandikishije inyuguti zisa umweru, hasi hari n'amabuye asa shokora.

Inyubako nziza cyane ifite irange risa ubururu, umuhondo n'umweru, amabati asa umutuku, hasi hasa shakora n'umutuku, hejuru hariho ibara risa ubururu, imbere hari icyapa gisa umweru kirimo inyuguti zisa umukara, biragaragarako ari ku manywa.

Inzu ifite irangi risa umweru, hejuru hariho amatara, hirya hariho n'urugi rusa shokora hasi hari amakaro asa umweru. Hirya y'iyi nzu hari akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa ubururu n'umweru. Hejuru y'iyi nyubako hari inyuguti zisa icyatsi. Inyuma y'iyi nyubako hari indi nyubako isa umutuku, hanze y'iyi nyubako hari moto isa umutuku n'umukara. Hejuru hari igihu gisa ubururu n'umweru. Biragaragara ko ari ku manywa.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amata, harimo amaji, hari amabiswi, harimo shokora. Hahagazeho abagabo babiri, umwe yambaye inkweto z'umukara n'umweru, n'ipantaro isa umukara. Hirya hari n'umugabo, wambaye ipantaro isa umukara n'agapira gaciyemo uturongo. Bano bantu biragaragara ko baje guhaha.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye harimo imineke, avoka, amaronji, ibinyomoro, wotameroni n'ibindi bitandukanye. Iri soko ririmo abantu batandukanye abambaye imyenda y'umutuku, umuhondo, umukara, n'umweru, imbere yaho hariho urukuta rusa umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amarongi, hari'imineti harimo avoka, harimo amafuri y'igikoma, harimo n'inyanya harimo n'abantu benshi cyane harimo abari bari mu bucuruzi. Hejuru y'iyi nyubako hariho ibara risa umuhondo, handikishijwe inyuguti zisa umukara hirya yaho hari n'umugabo wambaye ijiri isa icyatsi, hirya y'uyu mugabo hari bafure isa umukara hasi harasa umukara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imigati, harimoji, harimo amabiswi, harimo n'ibindi bicuruzwa. Hagaze umukobwa uri guhaha, wambaye umupira w'umutuku afite imisatsi yumutuku wambaye ipantaro yumukara, afite akanantu ari guhahiramo ka agapaniya, gasa umukara. Hasi hari amakaro asa umukara. Inyuma y'uyu mukobwa hari icyapa gisa ubururu, cyanikishije mu nyuguti isa umweru.

Abantu batatu batandukanye. Uyu mudamu biragaragara ko hano yaje mu ari nko Bitaro kuko afite mituwelli n'impapuro, inyuma y'aba bantu hari urukuta rw'ubururu ruriho impapuro z'umweru. Hirya y'aho hari akabati gasa shokora.

Inyubako nziza cyane ifite irange risa n'ubururu, impande yiyo nzu hahagazeho umugore yambaye ikanzu isa umutuku, irimo amabara asa n'umweru; yambaye agapfukamunwa afite na terefone mu ntoki. Hejuru yinzu hari icyapa gisa umukara kiriho abantu bane, umugore n'umugabo, n'abana babiri; cyandikishije inyuguti isa ubururu n'umweru.

Umugabo wambaye agapfukamunwa gasa icyatsi n'umupira usa umutuku hariho akarongo k'umweru, afashe agapapuro mu ntoki gasa umweru, hejuru kariho icyatsi, hasi kariho icyatsi n'ubururu, kandikishije inyuguti zisa umweru n'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira usa umweru ufite mikoro y'umukara inyuma ye hariho icyapa kiriho umugore n'umugabo basetse cyane bamwenyuye, imbere y'umugabo hariho umuntu wambaye imyenda isa icyatsi, aba bantu biragaragara ko bari nko mu nama.

Abagabo babiri bafite icyapa gisa umweru, umugabo umwe yambaye ikoti risa ubururu n'ishati isa umweru n'ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, undi yambaye ikoti risa umuhondo, ishati y'umweru n'ipantaro isa ubururu, inyuma yabo hari igishushanyo cyandikishijweho amagambo asa iroza.

Abantu benshi cyane batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, inyuma yabo hari umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza asa shokora ariho na mudasobwa na terefone, hasi hari amakaro asa umweru hirya yabo hari urukuta rusa ubururu.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo yambaye ikoti risa umukara n'umweru, imbere ye hari igitabo kiri ku meza isa ubururu afite n'ikaramu, imbere ye hari umugore witeze igitambaro gisa umutuku n'igitenge gisa umuhondo n'ubururu, uyu mugabo biragaragara ko ari kwandikira uyu muntu ku bijyanye na mituweri.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye hari amazi, hari ji, hari amata, hari isukari, hari biswi, hari shokora, hasi hari amakaro yijimye hirya hari sima isa umukara hiryayaho hari n'akabati gasa umukara.

Aha hari imbuto zitandukanye, zifite amabara atandukanye, harimo umutuku, umuhondo, icyatsi, biri mu kantu k'ubururu n'umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amata, harimo biswi, harimo amandazi, harimo imigati, harimo n'imyunyu, harimo n'amasukari. Hahagazemo umukobwa uri guhaha yambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro isa ubururu, ari guhahira mu gapaniye gasa umukara, hirya ye hari n'umugore wambaye ikanzu iciyemo uturongo dusa umutuku.

Iduka rininirimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amata harimo biswi, harimo amakaroni harimo amandaza harimo imigati, hasi hari amakaro asa umweru, hari umukobwa ufashe icupa risa umweruru ifite ibara risa ry'umuhondo n'ubururu.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amaji, imigati, amandazi, amasabune, mayonezi, ji, hasi hari amakaro asa umweru n'umukara, hejuru hari urukuta rusa umweru hakurya hicaye abantu harimo umuntu wambaye ipantaro isa umweru n'umupira usa umukara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'ibiribwa, inanasi n'ibyo kunywa, harimo umukobwa wambaye ikoti ry'ikoboye n'agapira k'umweru, iruhande rwe hari ibindi bintu byinshi cayane bitandukanye.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye by'amabara atandukanye, umuhondo, ubururu, umweru umutuku, icyatsi umukara n'umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amasabune harimo ama omo, harimo amabiswi, harimo imigati, harimo imiceri, hari amakaroni, arimo amavuta, hari umukobwa wambaye ipantaro yumukara n'umupira w'umutuku wandikishije inyuguti ziisa umweru afite akantu ko guhahiramo k'umutuku. Hasi hari amakaro asa umweru, hirya ye hari umugabo wambaye imyenda isa ubururu afashe akabuni gasa shokora mu ntoki ze yambaye inkweto z'umukara.